Pipitire z'abanyeshuri zirunze ku kibuga abanyeshuri biga yicayeho.

Inyubako nini igeretse, ku ibaraza hariho umuntu uhagaze ufite amadirishya y'imyeru, n'inzugi z'imyeru.

Inyubako nini cyane, ifite uruzitiro rw'umweru, inzugi zifite amarangi, inzugi z'umweru zubakishije harimo n'amatafari ahiye.

Abakobwa batatu n'umusore uhagaze ufite gitari, uri kubacurangira bateze amatwi, bari kumva indirimbo ari kubacurangira.

Abadamu bicaye mu kibuga bari kuboha intango, abadamu harimo abambaye imyenda y'imituku n'ibitenge by'icyatsi, bakuyemo bodaboda bazirarambitse hasi.

Icyumba kirimo abatayeri b'abakobwa n'abari kudoda amakanzu, bambaye imyenda y'imyeru, harimo amamashini agera muri atandatu, ndabona bari kudoda imyenda y'imituku.

Abatekinisiye babiri b'abagabo bambaye abaserubeti bote na supuresi n'abadamu babiri bari kuhereza, beta gusunikira ibyuma hari nundi bahagaze ku ruhande afashe ibitabo uwo muntu n'umukoresha wabo.

Abagabo bari mu nyubako nini cyane y'isoko bambaye apfukamunywa, bari gusudira ndabonamo n'amashini menshi cyane, bambaye n'agapfukamunywa n'amasarubeti y' umweru. Umwe yambaye agapfukamunywa k'umutuku na ga.

Abatekinisiye bari mu mashini nini cyane ifite moteri iri hejuru, harimo n'umukobwa wazingishije menshi n'umutekinisiye umwe wambaye songambere wayirebesheje inyuma. Abatekinisiye bambaye amasarubeti y'ububu yanditseho.

Abadamu babiri bari gucuruza alimentasiyo, ndabona bari mu nyubako ifite amarangi y'umweru hari amasikariye imbere, bambaye imyenda, inkweto z'imihondo, amataburiya y'ubururu.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti ya kaki bari ku mashini, bahagaze iruhande rw'imashini bari ku mashini y'umweru.

Abagabo babiri n'abakobwa babiri, abakobwa bisukishije imisatsi, bambaye amataburiya y'imyeru, bafashe igikombe mu ntoki gifite umufuniko w'umuhondo, gisa n'umweru, kiriho n'imirongo y'ubururu. Umukobwa wambaye amarineti.

Abaganga bane harimo n'umukobwa wambaye rinete. bari kureba mu byuma bya mikorosikope, bambaye utugofero tw'umweru n'amataburiya y'imyeru.

Abanyeshuri bari mu ishuri bicaye ku ntebe z'amasheze, imbere yaho bateretse amazi kuri buri wese, bambaye n'udupfukamunwa tw'umweru iniforume y'ishuri n'umweru n'umukara.

Ikibuga kiriho abanyeshuri bambaye amasarubeti y'ubururu. Amasarubeti y'ubururu, hari umwe wambaye isarubeti y'ubururu n'ishati y'umweru, mu nda wambaye na lineti, uhagaze ku mashini nini. Hariho n'undi mugabo uhagaze hagati.

Abagabo cumi na batandatu bose, bambaye amasarubeti, bafatanye ku maboko bari gukora ku itaka, munsi ya ho, hasi yaho bari gukora hubakishijwe amatafari ahiye.

Abanyeshuri bicaye ku meza bambaye amashati yubururu, bicaye kumeza, bafashe n'amakaramu mu ntoki, harimo n'uri ku ruhande uri kwandikisha ikaramu y'umutuku.

Abanyeshuri bambaye amakanzu y'uburu, amashati amakanzu y'ubururu, n'umwarimu wabo wambaye ishati y'umweru, n'ingutiya y'umukara, bari kudoda inkweto, imbere yabo hari imiguru myinshi y'inkweto.

Imashini nyinshi zidoda imyenda y'abantu bambara, hari n'umudamu uhagaze hirya hariho n'icyapa cy'ubururu inyubako yubakishijwe amakaro.

Ababaji batatu harimo n'umukobwa bambaye amasarubeti y'umukara, barikubaza bambaye n'ubupfukamuwa, umwe yambaye agapfuka munwa k'umweru, undi akumukara n'amasarubeti yanditseho inyuma mu bitugu, n'umukobwa ufite menshi ku mutwe.

Abanyeshuri bari gucuranga sente. Babiri b'abahungu ,imbere yabo hariho umukobwa, umudamu wunamye wambaye imyenda ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu ari kubaganiriza.

Agabo cumi na babiri, abadamu babiri, harimo uwambaye isarubeti, harimo ufite jumeri ipima umuhanda, bose bari kwitegereza ufite jumeri uri gupima ufite jumeri ukora, muri jumeri, uri gupima umuhanda.